Ibihingwa biba bigomba gushyirwaho imiti kugira ngo nabyo bikure. Abahinzi bagomba kumenya imiti ijyanye n'ibihingwa bahinga, kuko iyo bashizeho imiti ihagije bituma, iyo miti ikorerarira ku gihe, kandi bashobora kubona inyungu mu buhinzi bwabo.

Abahinzi bagira uruhare mu mikurire y'imyaka yabo, kubera ko iyo bateye igihingwa baba bagomba kukitaho kugeza gikuze. Bimwe mu byo bashobora kugikorera kugira ngo gikUre, ni ugutera umuti kugira ngo hatagira imyanda cyangwa se ibyonnyi bijya kuri icyo gihingwa.

Ibimera bihingwa bigomba gushyirwamo umuti kugira ngo ibyonnyi bitabyangiza, abantu bahinga bagomba gushyiramo imbaraga, bakajya bashira amazi mu bimera bahinze kugira ngo izuba ritabyangiza.

Mu gihe umuntu yagiye kwa muganga aba akwiriye kwitondera ibikoresho bihaba kuko bishobora kumuviramo ingaruka mbi mu gihe abyangirije, nanone kandi mu masuzumiro, haba harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, bifasha abarwayi kumenya uko bahagaze.

Imyaka ikwiriye kwitabwaho mu gihe umuntu yayihinze, ashobora kuyitaho ayuhira buri gihe, agashyiraho amazi meza kugira ngo iyo myaka ikure, cyane cyane ibi abagomba kubikora mu gihe cy'izuba ryinshi,

Imyaka mu gihe k'izuba iba ikwiriye kwitabwaho, abaturage bagashiramo amazi kugira ngo ituma. Ayo mazi bashobora kuyakura ahantu hatandukanye ariko na none baba bagomba gushyiramo umuti urinda udukoko.

Ubworozi bw'amafi bukorwa n'abantu babifitiye uburenganzira kandi bazi kwita ku mafi yabo, bukorwa hifashishijwe amazi, kubera yuko amafi aba mu mazi mu gihe atabaye mu mazi yapfa.

Ubworozi buba butandukanye bitewe n'ahantu bukorerwa, ahantu hari ishashi hashobora kugaragara nk'ahantu hongererwa amafi, ariko na none ahantu hororerwa amafi hagomba gushyirwamo amazi, kugira ngo ayo mafi abone uko abaho.

Mu gihe umuntu atuye hafi y'amazi ashobora korora amafi, korora amafi bishobora kumuha inyungu nyinshi kandi ubworozi bw'amafi ntabwo busaba igishoro kinini, kuko umuntu aba atuye hafi y'amazi kandi amafi akunda kuba mu mazi.

Ubworozi bw'amafi butuma abantu babona inyama mu buryo bworoshye, kubera yuko abaturage bashobora kujya mu kiyaga bakarobamo amafi bakirira, ayo mafi iyo bayarobye bakirira inzara irashira.

Amafi afite agaciro cyane kuko akungahaye ku ntungamubiri. Abantu barya amafi bagira ubuzima bwiza kandi uruhu rwabo rugaragara neza kuko amafi arimo intungamubiri nyinshi.

Amafi abantu bayoroye baba bakwiriye kuyagaburira amafi yororerwa mu mazi kandi ibyo arya nabyo bishyirwa mu mazi. Amafi akwiriye kwitabwaho kugira ngo abantu bayorora babone umusaruro ku gihe.

Ubworozi bw'amafi buba busaba ko abantu babwitaho cyane, kubera ko amafi na yo akenera ibintu byo kurya, kandi ibyo byokurya bishobora kugurwa, ubwo rero mu gihe umuntu afite umushinga wo korora amafi agomba kubiwitaho cyane.

Ibimera kubireba biba bishimishije, ariko na none yari mu gihe k'imvura nibwo kubireba biba bishimishije, kuko mu gihe k'izuba kubireba bishobora kuba bidashimishije bitewe n'uko byumye. Bimwe muri ibyo bimera rero birahingwa kugira ngo abaturage babone amafaranga.

Ibihingwa bitandukanye birimo icyayi bigira uruhare mu gutuma abaturage babona amafaranga, ibihingwa bihingwa kugira ngo abaturage babone amafaranga kuko bibanza kunyuzwa mu nganda mu gihe bigiye gukoreshwa.

Abaturage bahinga ibihingwa bitandukanye kugira ngo bazabone ibyo kurya, ariko hari n'ibyo bahinga kugira ngo bazabone amafaranga, ayo mafaranga ashobora kubafasha kugura ibindi bintu bakenera mu buzima.

Hari ibihingwa bihingwa n'abantu batuye mu cyaro kugira ngo bazabone amafaranga, ibyo bihingwa birimo ikawa ndetse n'ibindi bihingwa umuntu adashobora kurya bitabanje gutunganyirizwa mu ruganda.

Abaturage hari ibihingwa bahinga birimo ikawa, kugira ngo bazabigurishe hanyuma babone amafaranga. Ayo mafaranga iyo bayabonye ashobora kuguramo ibindi bintu bakeneye bahita barya ako kanya, birimo nk'ibijumba.

Hari ibikoresho abantu bakora kugira ngo bibafashe mu buzima bwabo, abavuzi b'amatungo nabo, hari ibikoresho baba barakorewe kugira ngo bibafashe guca inka amahembe cyangwa se izindi nyamaswa zirimo amatungo yo mu rugo.

Imiti y'amatungo ishobora kubikwa mu macupa cyangwa se mu mashashi, inkoko zigira imiti yihariye kubera ko ziba zifite umunwa mutoya ntizishobora kurya ibinini binini, inkoko irwaye inzoka ishobora guhabwa umuti w'ifu.

Imiti y'amatungo ishyirwa mu macupa yihariye kugira ngo ibikwe neza. Iyo miti iba yarabanjije gutunganywa, igatunganyirizwa mu nganda n'abantu babishoboye kandi bazi akamaro kayo.

Abantu bakora uko bashoboye kose kugira ngo amatungo yabo amere neza, niyo mpamvu bagenda bakagura imiti y'amatungo. Iyo itungo rirwaye rikabona imiti ku gihe rihita rikira vuba vuba.

Ibikarito ni ibikoresho bibikwamo ibintu bitandukanye mu maduka atandukanye, ibikarito bishobora kubikwamo ibicuruzwa kugira ngo abantu batabyangiza.

Imiti y'amatungo icururizwa mu masoko atandukanye ndetse no mu maduka. Ariko umuntu uyicuruza agomba kuba afite uburenganzira ndetse n'uruhushya kuko iyo umuntu ayicururije atarabyize, bishobora gutuma amatungo apfa.

Amatungo nayo ashobora kugira ikibazo cy'uburwayi, mu gihe itungo rirwaye, kuribaga si byiza, ahubwo ibyiza ni ukurishakira umuti, rikabasha gukura kugira ngo naryo rizabarwe igihe kigeze.

Amatungo nayo akwiye kwitabwaho mu gihe agize ikibazo akavurwa, niyo mpamvu hari imiti abaganga bacuruza kugira ngo amatungo ntarwara avurirwe ku gihe. Kandi iyo miti iboneka hirya no hino mu gihugu.

Imiti yifashishwa mu kuvura amatungo, igira uruhare mu gutuma abaturage badahomba kubera ko iyo miti, ituma amatungo menshi adapfa kandi umusaruro atanga ukiyongera.

Ibikarito bibika ibintu bitandukanye, abantu bacuruza imiti y'amatungo bashobora kuyabika mu bikarito, hanyuma ibyo bi bikarito babijyana ahantu hatandukanye, bakagenda bagurisha imiti iba irimo itarangiritse.

Imiti baha amatungo igira akamaro cyane kandi abantu babona iyo miti bakayikoresha neza amatungo yabo arakura. Ubwo rero mu gihe umuntu ashaka ko amatungo ye akura, agomba kuyagaburira imiti igendanye n'ubushobozi afite.

Imiti ihabwa inyamaswa, ituma nazo zigira ubuzima bwiza by'umwihariko amatungo yoroherererwa mu rugo. Aba akwiriye kwitabwaho, agahabwa imiti ijyanye n'uburwayi bwazo kuko ituma amatungo agira ubuzima bwiza.

Abahinzi bahabwa imbuto zimeze neza kugira ngo bagende bazihinge, zimwe muri izo mbuto harimo ibiti, bagenda bagahinga ahantu hatandukanye, hanyuma byaba binini, bakaba babigurisha, bagakuramo amafaranga.

Abahinzi iyo bahinze ibintu bakabona imyaka bahinze iri kwera barishima cyane kuko haba hasigaye igihe gito bakarya ibyo bahinze umuhinzi ashimishwa no kubona igihe k'imvura gihari hanyuma ibintu yahinze bigakomeza kumera neza.

AAbahinzi baba bakwiriye gusura imyaka yabo cyangwa se ibimera bahinze bakabisura buri munsi kugira ngo barebe aho bitameze neza hanyuma babyiteho, mu gihe babona hari ibitameze neza bashobora kubikuramo bakabisimbuza ibindi.

Abahinzi bakora uko bashoboye kose kugira ngo ubutaka bwabo bweremo imbuto nziza niyo mpamvu bashiramo ifumbire ndetse bagakora uko bashoboye kose bakabagara ibihingwa bahinze, gusa birashoboka ko bashobora no guhinga kubera kutita ku butaka ntibeze.

Abaturage barafashanya mu bikorwa by'ubuhinzi kugira ngo bafashanye bose batere imbere kandi bateze imbere Igihugu cyabo. Bityo, babone ibyo kurya ndetse basagurire n'amasoko. Ibyo bibafasha gutuma iterambere ryabo ryiyongera.

Aborozi bagomba kwita ku matungo yabo bakayubakira mu buryo bwizewe ku buryo imvura idashobora kuyanyagira, nanone bagomba kuyagaburira indyo yuzuye kugira ngo ayo matungo yabo akure neza.

Amatungo yo mu rugo afasha abantu kubona ibibatunga nanone kandi hari abantu ifumbire rikiza kuko bashobora kubona amafaranga menshi mu gihe bagurishije ifumbire hanyuma abahinzi na bo bakarikoresha.

Ibihingwa birimo imyumbati bikunze gukenerwa cyane n'abahinzi, kuko ibihingwa ari byo akenshi bakunze kurya. Ibi bihingwa biboneka mu gice cyo mu misozi, kandi kubigura ntabwo bihenda.

Ibimera iyo bigitangira gukura, biba bisa n'aho bitazavamo ikintu cyaribwa, ariko uko bikomeza kwiyongera, niko umuntu arushaho kubona ko bishobora kuribwa kandi bishobora gutuma umuntu wabihinze, aticwa n'inzara.

Intoryi ni igihingwa gihingwa n'abantu bose kandi ahantu aho ariho hose, haba mu misozi cyangwa se mu kibaya gishobora guhingwamo. Abantu bashishikarizwa kwita ku bihingwa byabo, bagashyiramo imiti kugira ngo bitononwa n'ibyonnyi

Abaturage bajya ibintu bihingiye, babona inyungu nyinshi kubera ko badatakaza amafaranga yo guhaha, abaturage iyo bahinze ibintu byo kurya birabungura cyane, kuko amafaranga yabo bayakoresha mu bindi bintu.

Ibihingwa birimo igitoki abantu bakunda kubihinga, kugira ngo babone amafaranga mu gihe babigurishije, hari n'ibyo bahinga kugira ngo babirye kuko biryoha, mu gihe umuntu yabitetse akabirya.

Ibimera bigira uruhare mu gutuma abantu bishima ariko nanone hari ibimera bivamo imboga, urugero nk'ikimera cyitwa dodo abantu barya bakumva barishimye cyane.

Imboga zifite agaciro cyane, kubera ko abahinzi bahinga imboga babona amafaranga iyo bazigurishije. Nanone kandi abantu barya imboga babonamo intungamubiri ibafasha mu kubaka umubiri wabo, bityo ubuzima bwabo bukamera neza.

Ibimera bivamo ibyo kurya by'abantu, biba bikwiriye kubungwabungwa kugira ngo bidacika mu isi. Ibyo bimera bikwiriye gufatwa neza, bigashyirwaho ifumbire kugira ngo bikure neza bityo abantu babashe kubona ibyo kurya.

Ibimera bivamo ibyo kurya by'amatungo ndetse n'ibyo kurya abantu barya. Ibimera byinshi biba bimeze ku buryo butandukanye harimo ibigira indabo ndetse hari n'ibimera bitagira indabo.

Umuntu wahinze urutoki, aba agomba kurukorera neza kugira ngo abone umusaruro uhagije, aba agomba gukuramo ibitoki cyangwa se insina zitameze neza kugira ngo izindi zikomeze gukura.

Ibihingwa bitunga abantu ndetse n'amatungo. Ahantu hahinze ibihingwa ,haba hakwiye kwitabwaho cyane cyane mu gihe abantu bahahinze ibintu byo kurya. Birabujijwe ko umuntu ahinga ibihingwa ahantu hatemewe.

Imboga zituma abaturage babona ibyo kurya kandi kuzihinga ntibigorana kuko bisaba ahantu hameze neza ariko kandi ntabwo bisaba ibishoro byinshi. Niyo mpamvu abantu bahinga imboga babona inyungu mu gihe cyihuse.

Imyumbati ni igihingwa gihingwa kugira ngo abantu babone ibyo kurya. Iki gihingwa gikunze guhingwa ahantu hari ubutaka bwiza, iyo cyeze neza gishobora gutuma abantu babona ibyo kurya mu buryo bwimbitse, kandi bakarya bagahaga.

Ibihingwa abahinzi bahinga bishobora kubagirira akamaro harimo ibirayi. Ibirayi ni ibihingwa biryoha cyane bishobora kweera mu butaka kandi bitamazemo igihe kirekire. Ibirayi kubirya biraryoha kandi abantu benshi barabikunda.

Ibigori ni igihingwa gihingwa ahantu hatandukanye. Iki gihingwa kitwa ikigori kiba gikeneye amazi kugira ngo kibashe gukura. Mu gihe kitabonye amazi gishobora gukura nabi cyangwa se kigatanga umusaruro muke.

Ibihingwa cyangwa se ibimera bifitiye akamaro abaturage, kuko bashobora kubonamo amafaranga hari ibihingwa abahinzi bahinga kugira ngo bazabirye nibikora hari n'ibindi bahinga kugira ngo bazabigurishe nibikura.

Imyumbati abantu benshi barayizi kandi barayikunda, imyumbati ikunze guhingwa ahantu ho mu cyaro kandi abaturage benshi bayikunda ku buryo bashobora no kuyigura amafaranga menshi.

Ba mukerarugendo bakora urugendo runini bagiye gusura ibikorwa remezo, ndetse n'ibyaremwe karemano, aba ba mukerarugendo bishora amafaranga, kugirango ngo babashe kubona ibyo biremwa, harimo amashyamba ndetse n'ibindi.

Amashyamba ashobora gukorwamo ibikoresho bitandukanye, ibikoresho bimwe bishobora kuva mu biti harimo imbaho. Izo mbahoho zishobora gukoreshwa zikorwamo n'intebe zitandukanye.

Ibimera bifitiye akamaro Igihugu, kuko bituma abaturage babona ibyo kurya, nanone kandi ibimera birimo amashyamba, bikurura umwuka mwiza abantu bahumeka, bityo ubuzima bukarushaho kuba bwiza.

Urujya n'uruza rw'abantu bavuye ahantu hatandukanye, bagiye gushaka ibintu byiza, abantu bashobora kwimuka cyangwa se guhunga intambara kugira ngo bajye gushaka ahari amahoro, kandi bishobora gutuma ubukene bwiyongera.

Ibiti bigira akamaro mu gihugu kubera ko ibiti bishobora gutuma abantu babona umwuka mwiza bahumeka. Ibiti bishobora kuvamo imbaho kandi bishobora gutuma abantu bagira ubukire nkuko umuntu wabihinze ashobora kubigurisha akabona amafaranga

Ahantu hameze neza hafite isuku rwose abashimishije cyane. Inka ni amwe mu matungo akundwa n'abantu. Gusa biba bisaba ko aragirwa kugira ngo abone ibyatsi biyatunga, hanyuma akomeze kubaho.

Amashyamba afitiye akamaro Igihugu, kubera ko amashyamba atuma abaturage babona inkwi zo gucana, amashyamba kandi akurura umwuka mwiza abantu bahumeka, bityo abantu bakabaho neza mu buzima buzira umuze.

Guhinga bifitiye akamaro abaturage kuko imyaka abaturage bahinga ivamo ibyo kurya barya kandi guhinga ni igikorwa kigomba kwitabwaho kuko abantu bahinga babona amafaranga menshi bakoresha mu buzima bwabo.

Inanasi ni urubuto rukundwa cyane abantu bahinga, hanyuma rukamara igihe runaka mu butaka nyuma rukera bakarurya. Inanasi zirakundwa kuko abantu bafite amafaranga barazigura.

Imbuto zigira akamaro cyane mu buzima bwa muntu. Umuntu urya imbuto agira ubuzima bwiza kandi abamureba bakabona atemba itoto. Abantu bashaka kubaho neza, bagomba kurya imbuto buri gihe.

Imyaka irimo ibishyimbo abantu bahinga, iba ikwiriye kwitabwaho hakirindwa ko hajyamo ibyonnyi, kandi na none haba hakwiriye kujyamo amazi ahagije, kugira ngo ibyo bihingwa bikore neza bityo iterambere ry'umuturage ryiyongere.

Abahinzi bahinga imboga ndetse n'imbuto, bagomba kuzitaho buri gihe, bakareba ko nta byonnyi birimo, basanga harimo ibyonyi, bagateramo umuti, nanone bagomba kubagaramo ibyatsi.

Ibyo kurya abantu babitunganya bakwiriye kuba bafite isuku ihagije kuko iyo biteguranye umwanda bishobora guteza indwara zirimo inzoka zo mu nda.

Abahinzi bahinga imbuto kugira ngo bazijyane ku isoko, bashobora gukuramo zimwe mu mbuto bahinze bakazirya bityo ubuzima bwabo bukamera neza kandi bakishimira ko bahinze.

Ubuhinzi bufite akamaro mu gihugu kuko butuma abaturage babona ibyo bakeneye yaba imbuto ndetse n'ibindi bashobora guteka bakarya, na none kandi bashobora kubona amafaranga mu gihe bahinze ibihingwa byo kugurisha.

Kugira ngo habeho ubwoko butandukanye bw'ibimera, habaho ko ibimera bibanguririra. Ubwo rero abantu bashobora kubigiramo uruhare bafashe ibimera kubangurirana cyangwa se bakabitera ahantu habugenewe bituma byororoka.

Abantu b'abahinzi, baba bazi ibintu byinshi bashobora gukora kugira ngo ibyo bahinga bizere. Hari abahinzi bahinga indabo, ubwo rero batoranya indabo nziza zikenewe ku isoko hanyuma bakazihinga.

Imbuto zicuruzwa, zishobora kugira uruhare mu gutuma ubuzima bw'umuntu bugenda neza cyangwa se imikurire ye ikarushaho kwiyongera, hari imbuto zirimo avoka, ziba zikungahaye ku mavuta ku buryo umuntu uziriye, agira intungamubiri nyinshi muri we.

Abaturage iyo bahinze imboga baba bakwiye gukora uko bashoboye kose izo mboga bakazuhira, kugira ngo zitange umusaruro. Iyo imboga zitaweho neza zirakura zikaba nini hanyuma abaturage nabo, bakabona umusaruro uhagije.

Mu gihe umuntu ateye imyaka ku izuba aba agomba kuyuhira kugira ngo iticwa n'izuba, iyo umuntu yuhiye imyaka mu gihe cy'izuba bituma iyo myaka iticwa n'izuba bityo akabona amafaranga menshi mu gihe ayigurishije.

Hari igihe abaturage bahinze ibihingwa, ariko bakabihinga mu gihe cy'izuba, icyo gihe baba bakeneye kugura ibikoresho bibafasha kugeza amazi mu myaka yabo, kugira ngo iticwa n'izuba.

Kuhira imyaka bigira uruhare cyane mu gutuma ibihingwa bikura kubera ko amazi akoreshwa atuma igihingwa gikura vuba haba mu gihe k'izuba ubwo rero abaturage mu gihe bahinze baba bagomba kuzirikana ko bazanuhira.

Igikorwa cyo kuhira imyaka gituma ibimera bikora vuba kandi abaturage bakabona umusaruro mu gihe cyihuse. Abantu bafite imirima mu bishanga nibo benshi bakunze kuhira kuko kubona amazi byoroha.

Abaturage bahinga ahantu hatandukanye imyaka, bimwe mu bihingwa bashobora guhinga harimo; ibirayi, ibishyimbo, ibijumba, ibigori, amateke, imyumbati, ndetse bashobora no guhinga imboga.

Imigezi ifite akamaro cyane mu gihugu kuko abaturage iyo bafite imigezi, bashobora kuyikoresha buhira imyaka yabo bityo umusaruro basarura ukiyongera kuko ibihingwa biba byabonye amazi ahagije.

Imirasire y'izuba cyangwa se imirasire ifata izuba, abantu bayikoresha mu kuhira imyaka yabo. Ese ibyo wari ubizi? Abantu bakoresha imirasire y'izuba, bakurura amazi bityo bakaba bayakoresha buhira, imyaka yabo.

Kuhira imyaka bituma imyaka ikura neza kandi abantu batuye mu misozi na bo bashobora kuhira imyaka. Amazi bakoresha buhira imyaka, ashobora kuva mu biyaga cyangwa se mu migezi itandukanye.

Kuhira imyaka ni igikorwa cy'ingenzi, gifasha abaturage kubona ibyo barya mu gihe cy'izuba, iyo amazi ari hafi, bashobora gukoresha ibikoresho bibafasha kuyazana, bakayashira mu myaka bityo ikera.

Uburyo bukoreshwa mu kuhira hakoreshejwe imashini, butuma amazi agera ahantu ha kure kandi bwihutisha kuhira kuko imashini yohereza amazi menshi kurusha kuvomesha intoki.

Hari uburyo bwinshi bushobora gukoreshwa kugira ngo abaturage bavane amazi mu biyaga ndetse no mu migezi bayageze aho imyaka yabo iri, bashobora gukoresha ibivomesho cyangwa se bagakoresha imashini zabugenewe.

Imyaka yahinzwe ahantu iyo yuhiwe neza irakura kandi abantu bayihinze bashobora kubona inyungu mu gihe kihuse kubera ko umusaruro uboneka ku gihe kandi abantu bayihinze ntibicuza ko bahinze.

Kuhira bifasha abaturage kubona umusaruro mwinshi, cyane cyane abaturage batuye mu misozi babakore gushaka uburyo buhira imyaka yabo kugira ngo iticwa n'izuba, bityo bakagira ubukene bu bitewe no kutita ku myaka yabo.

Igice k'icyaro kiba kirimo amazu aciriritse ariko kandi abaturage bahatuye, ntibashobora kubura ibyo kurya kubera yuko babyihingira. Abaturage batuye mu cyaro bashobora kubona amazi ku gihe kandi batayaguze.

Imisozi ibamo ibyatsi bitandukanye kandi ibyo byatsi bifite akamaro. Imisozi kuyituramo biragorana ariko abantu batura mu misozi ntibashobora kwicwa n'inzara, kuko ibyokurya barya barabyihingira.

Ubutaka buhingwamo ibimera bitandukanye, bimwe muri ibyo bimera bishobora kumaramo igihe kirekire mu gihe ibindi bimera bimaramo igihe gito, urugero rw'ibimera bimaramo igihe kirekire ni ibiti by'inganzamarumbo.

Ibiti bifite akamaro kuko bibamo inyamaswa zitandukanye. Ibiti bishobora gutuma inyoni zibona aho ziba, kandi inyamaswa urugero nk'imbeba, nazo zishira ibyari byazo mu biti.

Imisozi igaragara neza, iyo ari mu gihe cy'imvura. Mu gihe cy'imvura, uba usanga ibimera bimeze neza kandi bitohagiye, amashyamba nayo agira agahehero bityo kuyareba bigashimisha abantu.

Ibimera bihingwa mu misozi biba bitandukanye n'ibimera bihingwa mu kibaya, ibiti binini by'inganzamarumbo abantu kubireba barabyishimira kandi iyo hari akazuba bashobora kwicara munsi yabyo, bakumva bamerewe neza.

Imisozi kuzamuka birashya, ariko abakerarugendo bakunda kuza gusura ahantu hari imisozi, kugirango barebe ibyiza nyaburanga, kuko usanga akenshi mu mahanga aho baturuka nta misozi ihari.

Ahantu hari ikibaya ndetse hari ibiti amazi n'umuriro ni ahantu umuntu ashobora kwicara akaruhuka akumva atuje, bityo akaba ashobora gutekereza ibikorwa by'iterambere.

Ibiti bifite akamaro cyane kuko byihariye mu gukurura umwuka mwiza abantu bahumeka nanone kandi bivamo ibikoresho abantu bifashisha mu buzima busanzwe, urugero rw'ibikoresho bishobora kuvamo ni nk'intebe.

Amashyamba afitiye akamaro abaturage ariko nanone ibimera na byo bibafitiye akamaro, hari ibimera bigira indabo ku buryo kubireba biba bishimishije ubwo rero abantu bakwiriye kwirinda kubyangiriza kuko bifitiye akamaro Igihugu.

Abantu bakunda kugira amakimbirane, bitewe n'ubutaka, ubutaka ni impano Imana yaremye, ariko abantu hari igihe bagirana ibibazo bitewe n'uko umuntu ashaka kubwiba undi.

Amatungo magufi atanga ifumbire ariko amatungo magufi aba agomba kuba ahantu heza, hakarindwa ko ayo matungo yanyagirwa kuko iyo anyagirwe, ntabwo akora neza, ubwo rero ayo matungo akwiye kurindwa.

Ubworozi bw'amatungo bugira inyungu mu gihe amatungo yororewe ahantu heza, ariko iyo amatungo atororewe ahantu heza ashobora gupfa, bityo umworozi agahomba bitewe n'uko atitaye ku matungo ye.

Ubworozi bw'inka kugira ngo umuntu abukore neza, bisaba kuba afite amafaranga yo kugurira inka ibyo zirya kandi akazubakira ahantu heza, ho kuba kugira ngo zidakomeza kunyagirwa bityo zigahura n'uburwayi.

Ubworozi bw'inka bukorwa n'umuntu ufite amafaranga ahagije kubera ko umuntu udafite amafaranga ahagije ntashobora korora inka, inka ziba zisaba umuntu uzitaho, akaziragira kandi akazuhiraha amazi ahagije.

Amatungo arimo inka aba akwiriye kwitabwaho akaragirwa ahantu hari ibyatsi kugira ngo abashe kubaho neza, iyo amatungo afite ibyatsi bihagije atanga umusaruro yaba umukamo ndetse no kubyara inyana iza imeze neza.

Gushakisha amata bishobora kugorana mu gihe inka itera amahane. Ariko iyo inka yitonda abantu bashobora kuyikama mu buryo bworoshye hanyuma bakabonamo amata baha abana babo.

Inka ifite agaciro gakomeye mu muco Nyarwanda inka mu gihe cya kera yakobwaga umugeni. Inka yari ipfundo ry'ubuwahake. Inka yashoboraga gutuma umuntu ahakwa, hanyuma akagororerwa inka.

Inka z'ibimasa ziba zifite, uburebure ndetse n'umubyimba munini cyane, kuzireba bishobora gutera abana ubwoba ku buryo bashobora no kwiruka, gusa ni mu gihe kuko hari inka z'ibimasa, zishobora kwica, abantu.

Ingurube ni itungo ryo mu rugo, abahinzi ndetse n'aborozi borora. Kugira ngo babone ibyo bakeneye harimo n'ifumbire. Ingurube iyo yorowe neza ,igira amafaranga kandi itanga inyungu mugihe gito.

Amatungo yororwa agira inyungu cyane ku muntu uyoroye, abantu borora amatungo baba bafite abantu bo kuyaragira kugira, ngo ayo matungo yororoke vuba kandi abahe inyungu mu gihe gitoya cyane.

Ashobora korora amatungo atandukanye arimo inkwavu. Umuntu worora inkwavu aba agomba kumenya ibyo zirya ku munsi kugira ngo asobanukirwe uko azazigaburira mu gihe atabikoze zishobora gupfa.

Korora inkoko ntabwo bigoye ariko kandi bisaba kugira ngo umuntu abe afite amafaranga yo gukoresha muri ubwo bworozi, inkoko zigomba kurindwa umwanda kugira ngo zitarwaragurika, kuko iyo zirwaraguritse umworozi arahomba.

Amatungo atuma abantu babona ifumbire kandi atuma abantu babona amata yo kunywa, urugero inka iyo yitaweho neza ishobora gutanga umukamo bityo abana bakabona amata yo kunywa.

amatungo aba akwiriye kororerwa ahantu heza hatarimo ijago kandi akitabwaho. Amatungo aba akwiriye kororerwa ahantu hasakaye kandi rimwe na rimwe akozwa kugira ngo akomeze kugira isuku.

Imbwa ni amatungo cyangwa se inyamaswa abantu bashobora korora mu ngo zabo bakazegereza urugo. Ku buryo zibarinda ntihagire umuntu ubiba. Imbwa ishobora gutandukanya umujura n'umuntu utari umujura.

Imbwa nazo mu gihe zirwaye zishobora kuvurwa. Abaganga bavura amatungo bashobora no kuba bafite ubushobozi bwo kuvura imbwa cyangwa se izindi nyamaswa. Ubwo rero mu gihe umuntu afite imbwa ashobora kuyivurisha mu gihe irwaye.

Abaganga b'amatungo bagira uruhare mu gutuma amatungo amera neza, bayitaho buri gihe bakayavura ndetse yagira n'ibibazo, bakayitaho bayazanira ibyo abakeneye, bashobora kuyaha imiti mu gihe arwaye.

Ibikoresho byifashishwa n'abaganga, aba ari ibikoresho byihariye cyane, abantu bavura amatungo nabo bagira ibikoresho bifashisha mu buvuzi bwabo, ariko umuntu arabanza akiga kubikoresha.

Abavuzi b'amatungo baba bafite igikoresho bitwaza kimeze nk'indobo, icyo gikoresho kiba kirimo imiti, bifashisha mu kuvura amatungo ndetse banakoresha icyo gikoresho batwaramo inshinge kugira ngo kibafashe kuvura amatungo.

Ubworozi bw'inka bugira umusaruro kandi umuntu woroye inka ashobora kubona inyungu mu gihe gitoya, ni yo mpamvu korora inka bigira akamaro cyane cyane mu gice k'icyaro, abantu boroye inka bashobora kunywa amata ku gihe.

Inka iyo igiye kubyara, ishobora kugubwa nabi, bitewe n'uko yananiwe, niyo mpamvu abaganga b'amatungo, baba bakwiriye kuba hafi y'aborozi kugira ngo babafashe mu kubyaza, inka zabo.

Amatungo ashobora kwicwa n'indwara zitandukanye mu gihe itungo ripfuye umuntu aba agomba gushaka umuganga w'amatungo akaripima akareba ikintu kiryishe nanone kandi mu gihe inka igiye kubyara baba bagomba kuzana umuvuzi w'amatungo akabafasha.

Inka zifite agaciro kenshi mu muco nyarwanda, inka mu gihe cyo hambere zakobwaga abageni, niyo mpamvu inka mu gihe zirwaye baba bakwiriye kuzitaho, abavuzi b'amatungo bagomba kuba bamenyereye ako kazi.

Abaganga bavura amatungo, bafitiye akamaro Igihugu kuko batuma amatungo adapfa kandi abo baganga bashobora gukoreshwa mu gukora ibindi bintu. Abaganga bavura amatungo baba bafite ubuhanga bwihariye kubera ko baba barize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo.

Inyamaswa kuzireba biba bishimishije, inyamaswa zo mu gasozi akenshi zigira amahane kandi zishobora kurya umuntu mu gihe zimubonye ari wenyine, ubwo rero ziba zikwiriye gufatwa zikajyanwa muri pariki.

Imbeba nazo ziri mu nyamaswa zo mu gasozi, ziba ahantu hatandukanye, imbeba ziba mu byare byazo kandi imbeba ni mbi cyane kuko zirya imyaka y'abantu, zikaba zakangiza n'imyenda yabo.

Inyamaswa zirimo imbeba ndetse n'izindi, zishobora kwangiza imyaka y'abaturage. Abaturage baba bakwiye gushaka uko bakoresha, hanyuma izo nyamaswa bakazica, kugira ngo zitabangiriza imitungo. Ariko nanone bashobora no kuziha ahantu ziba kugira nazo zibashe kororoka.

Inyamaswa ziba muri parike cyangwa se mu birunga zigira akamaro mu gutuma igihugu kinjiza amafaranga menshi kuko zisiga abakerarugendo bishuye amafaranga menshi ku gihugu.

Inyamaswa zifitiye akamaro Igihugu kuko zikurura bamukerarugendo. Na none kandi inyamaswa zituma abantu babona amafaranga yo kugura ibintu bakenera kuko ba mukerarugendo bishyura amafaranga ku gihugu, hanyuma Igihugu ayo mafaranga kikayakoresha mu bikorwaremezo.

Inyamaswa nk'ingwe ziba ziteye ubwoba cyane, kuzireba bishobora gutera umuntu zireba ubwoba ku buryo ashobora no kwiruka, niyo mpamvu izi nyamaswa ziba zigomba gushyirwa ahantu hihariye kugira ngo zidakomeza gutera abantu ubwoba.

Inyamaswa ziba mu byanya byazo harimo udushyumbashamba, izo nyamaswa zikaba zikunze kurebwa cyane kandi zikinjiza amafaranga ba mukerarugendo bishyura bavuye hanze baje kuzireba.

Hari inyamaswa abantu batinya cyane, zimwe muri izo nyamaswa harimo ubwoko bushobora kuba butinyitse cyane. Urugero ingwe ni inyamaswa itinywa n'abantu kuko ishobora kubarya.

Inyamaswa zo mu gasozi, zifite uruhare runini mu gukurura ba mukerarugendo, zinjiza amafaranga menshi ku gihugu, ayo mafaranga agashobora kugira uruhare mu kubaka ibikorwa remezo izo nyamaswa ziba zikwiriye kubungabungwa.